Itangazo rya sosiyete y'ubwishingizi iri gushimira abakiriya bayo uburyo bakorana ndetse inerekana imbuga nkoranyambaga wabageraho ugahabwa serivisi wifuza batanga ku mbuga zabo bakoresha.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'iroza, kiri kwerekana itangazo ry'uko wakohereza ubutumwa bugufi kuri mirongo itatu na rimwe, icyenda kabiri gatandatu, ugatsindira amafaranga y'u Rwanda ibihumbi makumyabiri na bitanu, kiriho umugabo ufite uruhara, wambaye ishati y'umukara n'umupira w'umweru.

Itangazo rya eyateli mane, riri kwerekana ko ukanze akanyenyeri gatanu, zeru rimwe, urwego, ushobora kwishyura fagitire udatakaje imbaraga zawe, harimo telefone, harimo urupapuro rw'umweru rubyerekana, bifashwe n'umugabo wambaye ishati y'umukara.

Inzu ifite icyapa cyerekana imiryango itandukanye iri muri iri gorofa itanga serivisi za banki no kohereza no kwakira amafaranga avuye hanze, ikaba iri imbere y'ibiti birebire bifite amashami asa icyatsi, ikaba irinzwe na sosiyete yitwa isiko.

Ibiro by'abakozi bari mu kazi bafite mudasobwa zisa umukara, ziri ku tubati dusa umweru, harimo abazungu ndetse n'abirabura, harimo umukecuru uhagaze wambaye imyenda isa umukara, ufite imisatsi y'umweru ku mutwe, harimo amagare abiri amanitse usa n'ujya kwinjiramo, harimo amadirishya asa umweru.

Isoko ry'imboga ririmo ibitunguru by'umweru n'iby'umutuku, karoti amashaza, utudobo bapimiramo ndetse n'imboga z'icyatsi, harimo n'intoryi harimo abari kubicuruza harimo ndetse n'amabati kugirango baticwa n'izuba.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iri mu ibara risa umuhondo irimo umwirondoro wu witwa Manzi utuye mu mudugudu wa murindi akagari ka kabeza mu murenge wa kanombe yayihawe bibiri na cumi nagatatu igomba kurangira bibiri na cumi na kane .

Icyumba cyabereyemo guhura kw'abaturage batandukanye abagabo n'abagore gifite irangi risa umweru, harimo umugore wicaye ku ntebe y'imbere wambaye ibitenge bisa umuhondo hamwe n'umutuku ufite ishati isa ubururu, hanyuma yegeranye n'umugabo wambaye ishati isa ubururu n'ikayi isa iroze n'impapuro z'umweru.